Twese duharanire gukoresha ifumbire igihe duhinga, kuko biduha iterambere ryinshi cyane, ubutaka bunini burimo ibyatsi birebire umugabo ufite ifumbire y'umweru biri muri anvilope igiye kuzura.

Ubutaka bunini cyane, bufite inyubako ikomeye cyane, harambitseho igitiyo cy'umukara n'umuhondo n'umweru, hariho ifumbire, ridufasha gutuma ubuhinzi bwacu buduha umusaruro mwinshi cyane.

Iterambere rikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ibikorwaremezo biduha ibyo kurya, ubutaka bunini burimo inyubako ndende cyane, hariho ibara ry'umuhondo n'umweru. Isakaje amabati atukura.

Ibidukikije ni ingirakamaro muri rusange. Ubutaka bunini cyane burimo ibiti binini n'ibitoya, ibyatsi bikiri bitoya, biduha umwuka mwiza duhumeka, bigatuma tugira ubuzima bwiza cyane.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza mu buryo yifuje. Ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi bigufiya bihinzemo ikawa ryenda kwera, harimo n'amazu asakaje amabati y'umutuku.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu, kandi umuturage akabaho neza. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo inyanya zitarera, bihinze ifite ifumbire nyinshi cyane, harimo n’amababi manini cyane, asa n’icyatsi.

Ubuhinzi bukomeje gutanga umusaruro, ariko hifashishijwe nk'ifumbire ihagije, kuyibagarira kugira ngo bimere neza, ukanayivomerera. Ubutaka bunini cyane buteyemo ibishyimbo bikiri bitoya n'imyumbati, bikikijwe n'ibiti.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage yaba mu gihugu ubukungu na bwo bukiyongera abantu bakabaho neza, ibitaka biriho inyubako irimo ibigori umuntu uhahagaze wambaye umwenda w'umuhondo arimo abitonora.

Ibidukikije bidufitiye akamaro, yaba aho dutuye, kuko nk'ibiti dukuramo ibikoresho bitandukanye. Inzugi, ibitanda, n'ibindi. ubutaka bunini cyane, burimo ibiti, bikuze, n'umuhanda mugari cyane.

Ubutaka butanga umusaruro mu buryo butandukanye nko guhingamo igihingwa kikaguha umusaruro, ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi bitandukanye by'amatungo hateyemo na avoka ikiri ntoya.

Ubutaka bunini cyane buhinzwe neza cyane, burimo ifumbire ihagije, buteyemo igiti cy'amapera kikiri gitoya, harimo ingemwe z'amashu ndetse n'amatunda hamwe n'intoryi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, agasagurira n'amasoko, ndetse n'iterambere ry'igihugu rikiyongera. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo urusenda rutoshye, urutukuye n'urudatukuye.

Isuku igira isoko. Ubutaka bunini burimo ubusitani bwiza cyane harimo uturabo tw'icyatsi izindi zisa n'umuhondo n'ibiti birebire birimo n'icupa ry'umweru ritereyemo.

Imibiri yacu ikeneye ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, n'ibitera imbaraga kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze. Ubutaka bunini cyane buteyemo ibinyomoro binini cyane, ibigiye kwera, n’ibitarera, n’ibikiri bitoya.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage hamwe n'Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ubutaka bunini cyane buteyemo intoryi zisasiye n'ibyatsi byumye harimo umugabo uri kubibagarira wambaye ipantaro y'ubururu.

Uhinga abyitayeho agakoresha ifumbire rihagije akamenera, ahabwa umusaruro mwinshi cyane. Ubutaka buhinzwemo inyanya zigiye kwera n'izeze, izitukuye n'izenda gutukura.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubutaka bunini bwubatsemo ibiraro by'inka, umugabo uhahagaze azireba yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Ubworozi bw'amatungo magufi, bukomeje guteza imbere umuturage, aho agira ikibazo akayajyana ku isoko, akabona amafaranga, agakemura ikibazo cyangwa akayabaga, akayarya akagira ubuzima bwiza mu mubiri. Ikiraro kiziritseho amahene abiri.

Twese duhe agaciro ubworozi kuko buduha iterambere ryihuse kandi vuba. Ubutaka bwubatsemo ibiraro byinshi cyane harimo inka y'umukara iri kumwe n'umugabo, wambaye umwenda w'ubururu ari kuyiha umuti.

Ibyaremwe n'Imana bidufitiye akamaro kanini cyane nk'ibiti, inyamaswa, ibiti biduha umwuka duhumeka inyamaswa zikatwinjiriza iterambere mu gihugu cyacu nko gutuma abakerarugendo baza mu gihugu cyacu bakatuzanira amadovize.

Inyamaswa zifitiye akamaro igihugu cyacu, kuko zizana iterambere ryihuse, aho zidukururira ba mukerarugendo bakaduha amadovize iterambere rikiyongera. Ikibaya kinini kirimo inyamaswa z'umuhondo, ibyatsi bizikikije.

ibidukikije bifitiye akamaro muri rusange, yaba aho dutuye, yaba aho dufatira ubumenyi cyangwa aho tugenda. Ibiti binini cyane birimo inyoni nziza ifite amabara y'umuhondo n'ay'umutuku n'ay'umukara.